Abantu benshi cyane bari mu nyubako, harimo abicaye imbere mu ntebe zegamirwa, n'abandi bari ku gihande cyo hakurya, bameze nk'abarimo kumva ikiganiro. Inyuma y'aho hariho amagambo ahanditse ariko adasomeka neza.

Abantu umwe, babiri, batatu harimo uwaje kwivuza w'umwana akaba ari kumwe n'uwaje amutwaye undi ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa imyenda yabugenewe bari mu nyubako n'imbere ntiho arimo kumuhera ubwo bufasha.